Abantu babiri bahagaze umugabo ndetse n'umugore, inyuma yabo hari n'abandi bana bari inyuma, umugore akaba arimo yereka umugabo bisa nkaho ari kumusobanuza, umugabo akaba yambaye umupira wanditseho ngo byikorere.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, akaba ari kujya ahantu ku kazu bacururizamo amayinite.

Imodoka iparitse ahantu mu muhanda, ikaba yanditseho momo ndetse inagaragaza pulake yayo, ikaba iparitse ahantu heza.

Inyubako nini yubatswe hakoreshejwe ibiti ndetse n'amabati, ayo mabati akaba asize irange ndetse hariho n'imireko ifasha mu kuyobora amazi.

Abantu benshi bambaye neza, bakaba bicaye mu gisharaga ahantu hateguwe, akaba ari ahantu hari indangururamajwi ndetse bose bakaba bambaye imipira iriho ibirango.

Umuntu wambaye ishati y'umweru imanuyemo uturongo, akaba yambaye ingofero ndetse yambaye n'agapfukamunwa, akaba afite mikoro bisa nkaho hari ikintu arimo kuvuga.

Ubworozi bwiza bugezweho, akaba hari ubworozi bwa kijyambere butanga umusaruro. Hakaba hahagaze umuntu wambaye isarubeti ndetse yambaye n'ingofero y'umutuku.

Abantu benshi bibumbiye mu itsinda rimwe, hakaba harimo abagore, harimo abagabo, ndetse n'inkumi. Hakaba harimo umukobwa, wambaye ingofero y'umuhondo.

Umuntu w'umugabo wambaye ishati y'umweru ahagaze imbere y'ameza afite indangururamajwi bigaragara ko ari kubwira abantu, akaba ahagaze ndetse ikiganza ke yakimanitse bisa nkaho hari ibintu arimo kwerekana.

Uburoso bwinshi butandukanye, akaba ari uburoso bwifashishwa mu gusukura amenyo. Akaba ari uburoso bufite amabara atandukanye, aho harimo ubwinshi bwiganjemo ibara ry'umutuku.

Imodoka y'umukara ikaba iparitse imbere y'ahantu bacururiza imyenda. Ahantu bacururiza imyenda hakaba harimo imyenda myinshi ndetse harimo n'indi iri ku muryango.

Padiri yambaye imyenda ndetse akaba ari kumwe n'abandi bantu bambaye amakanzu y'umweru, bakaba bafite ibyapa mu ntoki zabo, bigaragara ko ari isezerano barimo kurahira.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'amasengesho ab'imbere barapfukamye bari gusenga ab'inyuma na bo barahagaze harimo umugabo umwe urambuye amaboko bigaragara kori gusengera ino mbaga y'abantu benshi.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe ndetse imbere yabo hari abantu babiri bisa nk'aho bamanitse amaboko bigaragara ko barimo gusenga ndetse n'abandi bari inyuma yabo.

Igitanda kiri ahantu mu nzu, ndetse hakaba harimo amarido. Hejuru hakaba hamanitse supanete yifashishwa mu kwirukana imibu.

Ikirango kiri kuri hoteri kikaba kimanitseho ibintu byinshi bitandukanye, kikaba cyanditseho bimwe mu biciro byifashishwa muri hoteri.

Inzu nziza cyane izwi nka hoteri, akaba ari inzu yubatse ahantu heza ndetse ikaba ifite n'amasuku menshi. Abantu bakaba baza kuharukira.

Abagabo babiri bakora muri hoteri, umwe akaba yambaye itaburiya ndetse ari gucana umuriro, bigaragara ko arimo gutunganya ibyo kurya.

Inzu iri ahantu heza ndetse hari n'umuhanda munini ujyayo, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari ibyapa byinshi, icyapa kiri imbere cyanditseho Visiti Rwanda.

Bimwe mu bikoresho byo mu nzu, harimo igitanda, harimo ndetse n'intebe. Akaba ari ibikoresho byiza bikozwe mu mbaho.

Inyubako nziza ikaba yubatswe ahantu heza ndetse imbere yayo hakaba hari ubusitani, hirya yayo hahinze ibiti byifashishwa mu gukurura umwuka.

Inzu ziri ahantu, hakaba, hari, inzu, nziza, ziteye, irangi ry'imweru, imbere yazo, hakaba, hari indabyo nziza, ndetse hakaba hari n'amabendera.

Inyubako nziza akaba ari inyubako igeretse. Imbere yayo hakaba haparitse imodoka eshatu. Harimo imwe y'umukara n'ebyiri z'umweru. Imbere y'imodoka hakaba hari umuntu.

Icyumba kigaragara neza, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe zifite amabara agiye atandukanye, ku meza hateretse amasahane ndetse n'ibirahure banyweramo icyo kunywa.

Ahantu bagurishiriza imyambaro bakaba bibanda ku bitenge ndetse hakaba hari n'umumama uhicaye arimo agurisha ibitenge, hakaba hari ibitenge byinshi bitandukanye.

Abacuruzi babiri barimo gucuruza imyenda itandukanye hakaba harimo imyenda y'amabara yose harimo umukara, umuhondo, umutuku ndetse n'umweru, si ibyo gusa akaba bakaba bari no gucuruza ibikapa by'ubwoko bwiza.

Abantu benshi bari ahantu hamwe ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga. Si ibyo gusa kuko hari inyubako nyinshi ndetse hari n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye hakaba harimo cyane cyane inkweto, zikaba ziri kuri shitingi ndetse muri iryo soko hakaba harimo n'abantu benshi.

Abamotari benshi baparitse ahantu ku muhanda, inyuma yaho hari urukuta, hakaba hari umugenzi urimo kwishyura umumotari .umwe

Umuntu utwaye imodoka, akaba yambaye ishati ndetse akaba yambaye n'umukandara wo mu modoka ndetse akaba arimo areba imbere kugira ngo adakora impanuka.

Imodoka ziri ahantu mu muhanda ndetse hakaba hahagaze n'umupolisi, urimo kugenzura uko abashoferi batwara ndetse areba n'umuvuduko batwariraraho.

Abantu babiri bahagaze iruhande rwa moto barimo bayitegereza, umwe akaba afashe ku mahembe undi nawe we arimo ayireba mu mapine bigaragara ko ino moto ishobora kuba yagize ikibazo.

Umumotari utwaye umuntu kuri moto, iruhande rwabo hakaba haparitse imodoka y'umukara ndetse hakaba hari n'izindi nyubako, bigaragara ko hari ahantu heza mu isantere.